Amazi y'isoko ni amazi acukuka ahantu mu kibaya cyangwa hagati y'imisozi bakayubakira, bakayakorera isuku, bakayayungurura, ku buryo umuntu ashobora kuyanywa, wayatekesha, wayafurisha, wayakoresha ibintu byose by'isuku.

SIDA ni indwara mbi cyane, yandurira mu mibonano mpuzabitsina, mu matembabuzi, mu byuma bikomeretsa, ntigira umuti, ntigira urukingo, kuyirinda ni ingenzi, cyo nyine kwa muganga icyo wagufasha ni ukuguha imiti igabanya ubukana gusa, tuyirwanye twese nta musore, nta musaza, twipimisha kenshi kugira ngo tumenye uko duhagaze.

Icyumba cy'inama cyitabiwe n'abantu batandukanye, ni kigari gifite ubushobozi bwo kwakira abantu hagati ya mirongo itanu na mirongo inani, harimo abagore, abagabo uyoboye inama, icyapa kinini gishushanyijeho umugore kiri kubafasha mu mfashanyigisho bari kwiga.

Aba ni abagore n'abagabo bahuguwe, bambaye imyambaro yabugenewe imipira y'umweru ndetse n'ubururu, bahuguriye kurwanya igwingira ry'umugore utwite ndetse bita no ku buzima. Bambaye neza, barasa neza, bari ahantu hagaragara neza cyane.

Icyumba cyo kwa muganga turagisangamo ibikoresho bitandukanye, akamashini, amatara, igitanda, abarwayi, umuganga yambaye ingofero n'imyenda y'akazi, agapfukamunwa, idirishya ritanga ubuhumeke...

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, baravoma amazi bifashisha nko mu masuku, gukoropa, gutunganya ibyo kurya ndetse n'amasahani baririyeho.

Kwisuzumisha k'umugore utwite ni ingenzi cyane, cyane iyo wubahirije bya bipimo byateganijwe inshuro icyenda bituma umenya neza ko umwana ari gukura neza, guhumeka, k'umwana, kwiyongera k'umwana.

Iyo tugeze kwa muganga tuhasanga inyubako nini cyane, sare irimo abaganga, ababyeyi, abana, baje gukingiza bafite amafishi y'abana ndetse barabasobanurira cyane.

Ivomero ritunganyije, umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu bararivomeraho amazi asa neza mu ndobo, ntibafite amajekani yo kuvomeramo, birasa nk'aho amazi bagiye kuyajyana hafi cyane, riri ahantu hasa nk'ahari agahuru.

Gahunda yo gukingira, gufata inkingo mu Rwanda irakomeje. Kwikingiza rero ni ingenzi kuko bigabanya amahirwe cyangwa se ibyago byo kuba wa kwandura iyo ndwara. Urugero nka Mabaga, Manki pokisi , Covid 19, Hepatite.

Ni byiza kugira isuku igihe uvuye ku bwiherero ugakaraba neza intoki n'amazi meza n'isabune, ukabitoza umwana, yaba mu rugo, yaba ku ishuri, yaba kwa muganga, yaba ahantu hose agiye ukamutoza neza yuko igihe cyose avuye mu bwiherero agomba gukaraba intoki.

Ni ingenzi kugira akarima k'igikoni cyane cyane aho dutuye kuko bidufasha kubona imboga n'izindi mbuto, bidufasha mu kwirinda igwingira ry'abana bato bari munsi imyaka itanu, abagore batwite, iyo dufite imboga mu rugo biratworohera.

Kuba mu buzima buciriritse cyangwa se uburyo umwe abantu akunda kwitamo ngo ubukene ntabwo bisobanura kugira umwanda, ubukene bwa mbere ni mu mutwem, arakora isuku yifashishije amazi meza n'isabune.

Ivomo rusange amazi ayunguruye afite isuku, yateganyirijwe abaturage batuye hafi aho ngaho, bayifashisha mu bikorwa bitandukanye, harimo mu koga, gukaraba intoki, mu gufura imyenda yabo, mu guteka, mu kuhira imbuto ndetse no mu kuyubakisha.

Icyumba cy'inama, hateganyijwe ameza magari aho bari bwicare nta n'umwe uteye undi umugongo, bicaye ku meza buri wese afite intebe yicayeho, buri wese ararebana na mugenzi we, bateguriwe icyayi cyo kunywa mu dukombe twiza duteretse ku masahani, imbere yabo hari inkururamajwi.

Ahakorerwa ubuvuzi, turasangamo igitanda, imashini, utwuma bashyiraho serumu, televiziyo abaryamye kuri ibyo bitanda bifashisha kugira ngo be kugira irungu. Ni icyumba kiri mu marangi y'umweru hometseho utubandarore tw'umutuku, ubururu.

Abaganga bari guhuza raporo cyangwa se guhuza ibikorwa bakoze, bari mu kiganiro ubona ko buri wese yitayeho, ni icyumba kitari kinini cyane, kirimo utubati, amafirigo y'umuti, amakayi barashyira mu bitabo by'umweru.

Dukangurire abana kutajya mu mazi y'ikidendezi cyangwa se ikiyaga, by'umwihariko amazi atabasha gutemba ngo ave ahantu hamwe ajya ahandi, kuko ashobora guhuriramo n'ingorane nyinshi cyane, harimo nko kuba barwara inzoka, umusonga n'izindi ndwara zandurira mu mazi adasukuye.

Gahunda y'ivomo rusange ni gahu nda ya leta yakunganire

Isuku ni ingenzi cyane nko mu ntoki, biba byiza gukaraba amazi meza n'isabune, biturinda kurwara indwara z'umwanda, harimo nk'inzoka diyare, kuba wagira uburibwe bukabije mu nda.

Nayikondo ni ivomo ryiza barivoma bakoresheje gupomba bisa umuntu ufite imbaraga, umuhungu arafasha umukobwa kuvoma, ni amazi meza wayanywa, wayatekesha, wayafurisha, wayogesha ibyombo.

Icyumba cy'inama harimo intebe, kirateguye, gisize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo, inama yitabiriwe abagore, abagabo basaga mirongo ine, buri wese afite ikayi n'ikaramu.

Umuryango uciriritse uri mu buzima butari bwiza cyane, barakoresha amazi adasukuye nk'amazi aturuka ku ibati, urabona ko adasa neza cyane bayifashisha bafura no gukora indi mirimo, baraba mu nzu yubakishije amabati gusa.

Ni icyumba cy'inama, kirimo abantu batanu, abagore babiri, abagabo batatu, kirimo intebe, ameza, amazi, buri muntu wese afite ikayi ari kwandikamo ibyigwa, ndetse imbere yiwe hari na terefone.

Tuhasanga ivumo ririho umugore, abana, amazi, ijekani y'umuhondo, abana baritegereza cyane nk'aho hari abantu barimo barabafotora, tuhasanga ikirere cy'ubururu, ibyatsi inyuma yabo.

Bari hanze y'inzu, bari mu mugoroba w'umuryango, abagore bane, umugabo umwe, bicaye ku ntebe z'imbaho, umuyobozi w'umuryango yambaye ikarita iranga akazi, afite impapuro.

Kwiyitaho ni ingenzi, ntibisaba imyaka, umukecuru arashaje, ariko na none yiyitaho yakarabye arasa neza, yambaye ikinigi, yambaye amaherena, yateza agatambaro mu buryo bwa kijyambere.

Arasa nabi cyane, ni umukene, ararwaye, ntafite ibyo kwambara ndetse ntafite n'uburyo bwo kwita mu buryo bw'isuku, kwiyogoshesha, abamufasha biragaragara yuko nabo bafite ubushobozi ariko budahagije cyane. Twite gufasha ku mbabare.

Kwihangira imirimo ni ingenzi, ntibisaba imyaka cyangwa ikigero urimo, nta n'ubwo bitwara igishoro kinshi cyane, bisaba kuba ufite ubushake kandi ujijutse, amafaranga ayo ari yo yose yatunga umuryango, ubucuruzi nk'amavuta, korogati, uburoso byagufasha kubaho mu buzima.

Turahasanga abagabo beza bahuguriwe gutera ibiti, bari munsi y'uduti dusa neza barahumeka umwuka mwiza, bafite icyapa cyiza kiyobora kigaragaza ibyo barimo, baratera n'ibiti ahantu mu butaka bwiza cyane, bufite ibara ry'ikigina no mu twatsi dusa neza.

Ni umunsi wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, witabiriwe n'umubyeyi Jeannette Kagame ndetse n'abandi basore, inkumi. Uwo munsi wari witeguwe cyane, bari ahantu heza ku nyubako isa neza cyane.

Indwara yo mu mutwe ni indwara ifata umuntu ku buryo atabasha kumenya ko afite ubwo burwayi kereka abamureba nibo basobanukirwa ko afite icyo kibazo bakaba bamufasha ni ahateguwe kuganira ku ndwara yo mu mutwe hitabiriwe abagore ndetse n'abagabo ni muri sare.

Igiti ni ingenzi kidufasha mu kubona umwuka mwiza duhumeka, ni indabyo, tugikuramo inkwi zo gucana ni ingenzi mu buzima bwacu havamo n'imiti.

Ni icyumba cy'inama yitabiriwe, bicaye mu buryo bw'uruziga, nta n'umwe uteye umugongo undi, bararebana, bayobowe n'umugore, y'itabiriwe n'abagabo n'abagore, ahantu hari umwuka, amadirishya arafunguye, inzugi zirakinguye, bicaye ku ntebe z'ibyuma zifite umwenda w'ubururu.

Ni sale ngari cyane, bahakiriramo inama, harimo abagore bahetse abana, umufashamyumvire uri kumwe na bo, bari kubahugura, ni umushinga w'Abanyamerika wita ku buzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi.

Big tente cyangwa se ihema rinini cmo abantu benshi abagore abana abagabo hateganijwe ko bari bwakira abantu benshi cyane ku ruhande hari ameza nini byateganyijwe bari kuhakorera ubushakashatsi aho bakira umuntu umwe bamubaza imibereho yiwe umwe kuri umwe.

Arabisi ikigo cyita ku buzima mu itente bateguye aho baribuzeze kwakirarira abantu hari abaganga, aba nasi abarwayi, buri murwayi wese arapimwa uburebure bwiwe ibiro byiwe babashe kumufasha kumuvura indwara yo mu kanwa.

Abanyeshuri barishimye cyane. Barasa neza muri nifomo zabo zisa neza, mu ishuri risa neza, rifite intebe, ikibaho, babahaye ibyo bifashisha mu masuku, korogati y'umutuku ndetse na wayitidenti irimo imbere, ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi. Barishimye cyane ko babahaye ibikoresho by'isuku.

Kurwara amenyo nta muntu ubihitamo, icyiza ni ukumenya ko wayarwaye ukagana muganga wabihuguriwe. Muganga aradufasha, hano hari umuganga wambaye neza cyane, wambaye ga, wambaye inifomo ndetse n'umurwayi yamushyizeho ibimurinda kuba yakwandura. Arafasha umurwayi kumererwa neza amuha umuti w'amenyo ndetse anayasukura.

Iyo ugeze kwa muganga uhasanga ibikoresho bitandukanye, bifashisha bapima umurwayi kugira ngo bamenye indwara arwayeho, nk'imashini ipima umuvuduko, agatanda umurwayi aryamaho, n'intebe umuganga yicaraho.

Mu ishuri abana bahigira ibintu byinshi bitandukanye nko kwigirira isuku, isuku y'amenyo, ukabatoza kwiborosa bakoresheje uburoso, korogati ndetse n'amazi meza.

Ubuvuzi bw'amenyo buhera kuri wowe ubwawe, igihe wakoreye isuku amenyo yawe neza, nta kibazo agira. Bigabanya kuba wagira uburibwe mu menyo no kuba wakumva ajegera hato na hato.

Si byiza gukoresha amenyo nk'icyuma, kuko bishobora guteza impanuka. Nko kwangirika kw'amenyo, kuba kimwe uri gucisha amenyo nk'urugero nk'urudodo, bishobora kuba byakwangiriza ku mubiri wawe bisanzwe, bikagukata ukaba wava nk'amaraso.

Ifoto y'amenyo igaragaza amenyo yo hejuru ndetse n'ayo hasi, iragaragaza amenyo afite ikibazo, biragaragara mu isura y'umukara ndetse harimo n'umweru, yafashwe n'imashini yabugenewe mu gufotora amenyo.

Umurwayi ararembye cyane, ni umusaza afite imyaka y'izabukuru, ari kumwe n'umuganga w'umudogiteri, akamashini kari gupima uko ahumeka, yambaye imyenda y'umweru, ari ku gitanda cyiza cy'amashuka y'umweru.

Kwishima ni ingenzi cyane, arishimye biragaragara ko afite imyaka iri hejuru ariko nanone ntibimubuza gukora siporo, arakora siporo yo guterura yishimye cyane, mu maso ye haragaragara akanyamuneza.

Gufata neza imiti ku gihe ugakurikiza amabwiriza ya muganga byongera amahirwe yo kuba wakira cyangwa se kugabanyiriza ubukana indwara ntabwo yaba bikibashije kukwica cyangwa se ngo ikare cyane, kurikikiza amabwiriza ya muganga kandi uyinywere ku gihe.

Imboga ni ingirakamaro mu buzima tibamo bwa buri munsi. Ni byiza yuko ifunguro ryose uteguye ushiramo imboga. Ni bwo uba uriye indyo yuzuye idufasha mu kurwanya igwingira, hari igwingira ry'ibiro, ubwonko ndetse n'igwingira ry'uburebure.

Mu cyumba cy'ibagiro, tuhasanga abaganga, dogiteri, umunasi, umutezi w'ikinya, umurwayi bari bukorereho igikorwa, ibikoresho harimo nka serumu n'ibindi bari buze kwifashisha kugira ngo operasiyo igende neza, umurwayi bamushyira ku gitanda cyiza, giteguye, bakamusinziriza kugira ngo atabasha kumva uburibwe.

Kwirinda twambara agapfukamunwa ni ingenzi mu buzima mu gihe hari indwara zitandukanye zandurira mu buhumekero, urugero nka covid nineteen, iyo wambaye agapfukamunwa neza ntabwo wayirwara.

Ahabera amahugurwa, turahasanga porojegiteri cyangwa se ikibafasha kugaragaza amashusho neza ku buryo buri wese uri muri iyo nama cyangwa se amahugurwa abasha kubikurikira neza, hari agatuti uyoboye inama yicaraho, yitabiwe: abagore, abagabo, buri wese afite mudasobwa imbere yiwe ibimufashamo.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya SIDA; mu cyumba kinini cyane cy'inama hitabiriyemo abagore ni bo biganjemo harimo n'abagabo bakeya, uwo munsi uyobowe n'igitsina gore.

Ubuvuzi bw'indwara zandurira mu buhumekero, bazipimira mu kanwa cyangwa se mu mazuru, aho muganga aba yiporoteje cyane, yambaye imyenda y'ishashi, aho atabasha kwandura, yambaye agapfukamunwa, ga ndetse n'ingofero.

Sale ngari cyane, yakiriyemo abakobwa bambaye neza, imipira y'umweru, amapantaro y'umukara, bose basutse imisatsi y'imikara, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari uyoboye inama cyangwa se amahugurwa yambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umweru, ikote ry'umukara ndetse afite na fotogarafi.

Kwa muganga dusangamo icyumba cyabugenewe icyumba cyo kubagirwamo cyangwa se bakiriramo abantu bakeneye gukorerwa operasiyo aribyo byo kubagwa, usangamo umuganga wahuguwe ibikoresho bifashisha babaga abantu ikinya imiti baribuzeze kubatera.

Icyumba cyo kwa muganga aho bakirira abarwayi, abaganga barimo barategura ibikoresho baribuze kwifashisha bakiramo abarwayi, hariho sharuwa batwaraho imiti, umunzani, utwuma bashyiraho serumu, utumeza, ibitanda abarwayi bari buryameho.

Inyubako ngari cyane, hari urujya n'uruza rw'abantu haparitse imodoka, hakorerwamo serivise zitandukanye, ku muhanda hari akazu k'umuzamu, hariho icyapa kinini kigaragaza ibikorerwa muri iyo nyubako.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, harimo igitanda umurwayi aryamaho, hariho imashini bifashisha bamupima ndetse cyangwa se bamuvura, hari isaha imanitse aho ngaho, hari agatebe umuganga ari bwicareho, hari n'akandi k'amashini gakoreshwa nka siporo.

Salo ngari cyane iteguye irimo intebe, ameza y'ubwoko butatu, muri salo harimo indabo zituma hagaragara neza, igikuta cyometseho amakaro, hasi hakozwe n'amakaro y'imbaho.

Abarwayi barwaye; abafite ubumuga muganga ari kubafasha bafite ibikoresho bifashisha bapima indwara; imiti bifashisha; intebe z'abafite ubumuga.

Icyumba cyo kwa muganga turahasanga aho bakirira indembe, hari igitanda gifasha umurwayi kuryama neza, akamashini gapima uko umutima we uri gutera ndetse n'umuvuduko, agati gashyiramo serumu kugira ngo serumu igende neza, hari puberi, hari agateremusi karimo icyo kunywa kugira ngo aze kubasha koroherwa.

Inyubako nziza cyane. Imbere yaho hafite ubushobozi bwo kuba hafitemo ibyumba byinshi bitandukanye, hafite imiryango irenga itandatu, buri muryango wose ufite urugi ruhakinga, hasize irangi ry'umweru, bikozwe na parafo, hasi harimo amakara.

Muri labo dusangamo umuganga wambaye neza, itaburiya y'umweru, imiti, mashini, ibikoresho byo kwita kumenya gusuzuma ndetse no kumenya neza imiti baduhaye.

Icyumba cy'inama turagisangamo intebe nziza cyane, amakaro akozwe muri rubuyu, igikuta gisize irangi ry'umuhondo, parafo irimo amatara y'umuhondo, amadirishya atanga akuka keza, agatuti gakozwe muri rubuyu gafite ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirasa neza, gisize amarangi y'umweru, harimo amarido y'umuhondo, agatanda umurwayi aryamaho, akamashini bifashisha bapima uko umuntu amerewe mu mubiri, harasa neza cyane, kwa muganga.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza bw'iterambere, mu buryo bita abeshi konoshi, ni ngari cyane, yubatse ahantu hari urujya n'uruza, hanyura abantu benshi, yubakishije amadirishya magari cyane, utwuma tuhakikije abantu benshi dukunda kwita garidevu, yubakishije amatafari ya Ruriba, isize irange ry'umweru.

Imbago ni igikoresho bakoresha bifashisha mu gihe umuntu afite ikibazo cy'uburwayi, atabasha kuva ahantu hamwe ngo ajye ahandi cyangwa se umukecuru cyangwa umusaza, kibafasha kuborohereza mu buryo bwo kugenda.

Iyo ugeze muri forumasi usangamo ibikoresho by'ubuvuzi bitandukanye: bande, imiti, arukoro, amapensi, ibinini, imiti isukika. Byose tubisanga muri forumasi cyangwa se kwa muganga.

Croix Rouge, umuryango w'abakorerabushake bita ku mbabare, urugero nko gutanga amaraso, gufasha abantu kubaha ubuvuzi bw'ibanze, iyo bagiye ahantu hahuriye abantu benshi mu mupira, kwibuka, abantu bose bagize ibibazo babaha ubufasha bwihuse.

Zimwe mu ndwara zishobora gufata umuntu igihe akoze siporo ikabije cyane se cyangwa yihuse cyane, urugero nk'indwara y'umutima, umuvuduko w'amaraso, yakoze siporo cyane arahagira yafashwe n'indwara y'umutima ni byiza ko umwegera ukamuhumuriza agaca bugufi agatuza.

Inyubako ikorerwamo siporo, ni ahateguriwe ko buri wese ashobora gusanga igikoresho ashobora kwifashisha akora siporo, siporo ni ingenzi ku buzima bwa buri muntu, si byiza y'uko ukora siporo kubera ko muganga ayikwandikiye, bikore ahubwo mbere wirinda kuba umubiri wawe wagira ikibazo.

Siporo ni ingenzi cyane nko ku bantu bafite uburwayi bw'imitsi, gukora siporo ni byiza bituma imitsi itakurya cyane, ukagenda wumva umerewe neza, ukoga icyuya kigasohoka imitsi ikabasha kurambuka neza.

Iyo bavuze umwaterete, ni umuntu ubasha kwirukanwa ahantu urugendo rurerure cyane atarushye afite igihaha gikomeye, ku buryo ashobora gukora ibirometero runaka atarahagira cyangwa ngo yicare aruhuke. Uwo ni we mwaterete.

Turahasanga imiti y'ubwoko bwose, ibinini, bande, imiti yo mu maso, ipensi, agapimo k'umuvuduko, turahasanga ga.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane iyo asukuye, kuyanywera mu kintu gisukuye nk'ikirahure, aba agaragara neza cyane, kuruta uko wayanywera mu icupa cyangwa se mu gikombe cyijimye.

Amazi ni ingenzi cyane, tuyakoresha tuyanywa, tuyafurisha, tuyubakisha, turayakoropesha, iyo umuntu ayanyweye agira umubiri mwiza, arabyibuha, yirinda n'indwara.

Siporo ni ingenzi cyane iyo ukoze siporo ukajya ahabugenewe ugasangayo umuntu wahuguriwe, umugabo arakora siporo, yambaye ikabutura nziza y'umweru, umupira w'umukara hari uri kumufasha wabihuguriwe, wambaye imyenda yabugenewe yambaye agapfukamunwa, umupira w'umukara ndetse gukora siporo bituma umubiri umera neza.

Kwa muganga turahasanga inyubako, umurwayi, muganga, umunzani, imashini, aramukoresha siporo kugira ngo arambuke intoki n'ibiganza n'amaboko.

Mu icupa riringaniye ry'umweru ririho icyapa kiri mu mabara y'ubururu, umutuku, umuhondo, umweru. Handitse amagambo asobanura ibirimo imbere ndetse n'uko bikoreshwa, ni icupa ririmo umuti w'ububabare.

Icyumba kirasa neza cyane, kiriho urugi runini cyane gikoze mu marangi y'umweru harimo agatanda, harimo agatebe, akameza, kirasa nkaho bakorerwa siporo cyangwa se ubuvuzi cyane nk'ubwamenyo, hanze y'inyubako hariyo indabo,..

Umwenya ni igiti cyiza cyane, ni umuti, tuwifashisha mu kwivuza inkorora, kubabara mu muhogo ibyo dukunze kwita anjine, ni umutako aho biteye ahantu heza cyane, giteye mu tubuye twa natirere, kenshi kirimeza.

Umuravumba ni umuti gakondo twifashisha nk'Abanyarwanda cyangwa se Abanyarwandakazi, tuvura inkorora, kubabara mu muhogo, rimwe na rimwe tubikoresha nk'indabo muri jaride kugira ngo habe hasa neza bituma urugo ruhumura neza.

Ikirere kirasa neza mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hagaragaramo indabo nziza z'icyatsi, ziratambitse harasa neza cyane. Iyo uharebye ubona rwose hateye amabengeza.

Imboga ni ingenzi mu buzima tubayemo bwa buri munsi, bidufasha mu mikurire y'abana, ababyeyi cyane cyane abatwite, biturinda kurwaragurika, umuntu asa neza iyo yariye mboga.

Mu misozi hari amabuye, hari ibiti, hari ibyatsi, hameze indabo n'ibiti byarabije bifite uturabo tw'umweru, nta bantu bahatuye, hari akayaga.

Ikawa ni nziza cyane. Tuyikoresha tuyinywa, abandi bakayikoresha nk'imiti, aho iteye bayikoresha nk'indabo, cyangwa se ibibafasha kugira ngo bahumeke umwuka mwiza, imiti myinshi cyane ikoze mu ikawa, iyo bafunga mu macupa afite amabara y'icyatsi, afite imifuniko y'ikigina, mu mituku, byose biva mu ikawa.

Mu ifamu ni ahantu hari ibyatsi, icyanya cy'ubwatsi kinini cyane, ubwatsi bugufiya butoshe inka cyangwa se amatungo bigomba kurya ndetse harimo n'ibindi biti bitanga agacucu, turabonamo igiti cyiza kirekire giteze nk'ikirabyo.

Icupa ririmo imiti y'ibinini, ni icupa ry'umweru riringaniye, kandi nanone baratwereka aho ibinini byaturutse mu miti y'ibyatsi bya kinyarwanda, urugero nk'imboga, avoka, na perisire.

Ururabo ni rwiza, rufite ibisobanuro byinshi, cyane umuntu arukoresha agaragaza amarangamutima yiwe, cyane nk'iyo wishimiye umuntu umuha ururabo, kurukoresha mu rugo ni ingenzi haba hasa neza, hahumura neza.

Iyo tugeze muri farumasi dusangamo umuganga wambaye imyenda yabugenewe, dusangamo imiti ifite indwara zivura zitandukanye, imiti iri mu ducupa tw'umukara ndetse n'udufunniko twayo tw'udupapuro dusa umutuku.

Ubuhinzi bw'icyayi ni ingirakamaro, rimwe na rimwe tubusanga mu duce tumwe tumwe urugero nk'i Cyangugu, budufasha mu iterambere ku muhinzi wagihinze, ku gihugu.